Aha ni ahantu bajaga bariyakirira, abakeneye gutembera, abashakaga gusohoka, abashakaga gutembereza abana babo, bakahafatira icyo kunywa n'icyo kurya, ubuzima bukagenda neza cyane.

Umuhungu wize iby'ubutetsi ari mu gikoni. Ari kuri rondereza ari kotsa inyama ziri mu duti dutatu, ama boroshete atatu. Ari kutwotsa hejuru y'umuriro ari kuzotsa hejuru y'umuriro arazifashe.

Inzu bacururizagamo ibyo kurya bitandukanye n'ibyokunywa bitandukanye. Ni inzu abantu bajya gutembereramo bakiyakira, bakabona icyo bifuza kubera ko haba hateguye neza.

Hariho agamacupa gatandukanye ,gatandukanye mu bwoko ,harimo n'inzoga zigiye zitandukanye kandi ziri muri ziri mu mutu etajeri dutandukanye.

Iyi ni inzu irimo firigo ikabamo n'inzoga zigiye zatandukanye abantu bakoresha bari kunywaga. Cyane iyi firigo ifashaga gukonjesha izi nzoga cyangwa se kuzishusha kugira ngo umuntu naza buri wese yisange mu cyo ashakaga.

Ubu ni ubucuruzi burimo ibikoresho bikoreshwa mu kurya, harimo mayoneze, harimo erayo, harimo amavuta, n'ibindi bintu bitandukanye bifasha abaturage mu rugo bafata ibyo kurya.

Iyi ni isahane iriho amafi ,ikaba iriho ibirayi bitetse mu mavuta ,ikaba iriho n'utundi twatsi tw'icyatsi, ikaba arifi bakase hejuru.

Aha ni ahantu hariho ameza, hakabaho n'intebe, n'amazu, hariho na televiziyo, abantu baza bakiyakirira bagafata icyo bashaka bari kureba na filime.

Aha ni ahantu bajaga barakirira abantu baje bababagana bashaka kuyakira. Bashaka gufata ico kurya n'ico kunywa bashaka kuganira bakaha ganirira ibintu bitandukanye.

Iyi ni inzu icururizwamo imyenda itandukanye, imipira, amashuka, harimo n'amashopu meza cyane ahahirwamo ibintu byiza, bacururizamo n'amasakoshi yifashishwa mu bakobwa bagiye gutembera.

Inzu yubatse imbere y'aho hariho ibirabyo, hakabaho hari amadirishya, hakabaho hari n'inzugi akaba ari inzu bacururizagamo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibikoresho bitandukanye, haba harimo amacagi, hariho balo, hariho imyuko, hariho ibikapu, hariho n'ibindi bintu bitandukanye.

Aha bari gucuruza amamatora, bagacuruza ibitambaro badodagamo, harimo iby'ubururu n'umukara n'irindi bara rigiye kwjima.

Iyi ni inzu y'urwondo iriho ibitambaro mu muryango. Bateyeho amarangi ku rugi gatandukanye. Gamwe gasa n'ubururu, agandi gagaba gasa n'umweru, gagaba gasa gandi n'ishatsi.

Inzu bacururizagamo ibintu bitandukanye, harimo umuceri, hakabamo amagaze, hakabamo ibyuma by’inzoga, hakabamo n’amaji.

Inzu y'ubucuruzi iri gucururizwamo imineke n'amatunda, n'amagi, hakaba harimo n'imigozi y'amaterefone, hakaba harimo n'amakuteri.

Inzu bari gucururizaho: Ibisheke, bagacururizaho igitoki, bagacuruzaho ibijumba, bagacururizaho ibihaza. Umucuruzi afashe agatebe agiye kukarambika kugera yicare.

Inzu ziri gucururizwamo imyenda zitandukanye : amapantaro, imipira, n'amapantaro bambitse ba maneke, bari kugaragaza ubwiza bw' imyenda n'umuntu uhagazemo uri gucuruza.

Abantu bari mumuhanda ;umuhanda w'uruja n'uruza harimo abantu batwaye amagare, harimo n'abantu batwaye amamoto hirya hariho amazu no hino.

Inzu iri ku muhanda ifite igipangu, ikagira indabyo kuruhande, ikagera akantuza hejuru kanditsweho resitora resitora, hakaba iruhande hari umuntu uri guhengereza.

Iyi ni inzu icuruzwamo ibikoresho by'ubwubatsi n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, twifashishwa mu kubaka kandi ihahirwamo n'abandi bantu bagiye batandukanye bakenera kugura ibyo bikoresho baba bagiye kwifashisha mu kubakaga.

Inzu ebyiri z'ubucuruzi zanditsweho "Ryoherwa na interineti ya mbere ihendutse kandi inyaruka", iriho irangi rya eyateli. Ni amazu abiri afungishijwe n'inzugi za mitalike zisa n'umukara. Imbere yaho ni imbuga isima yagiye irakongoka iracika.

Aha ni ku muhanda. Hariho inzu z'ubucuruzi zicuruza ibintu bitandukanye, bacuruza kano tivi bakoresha bareba televiziyo baguriraho abonoma, kandi bakoresha aba ajenti kubitsa no kubikuza kuri BEKA ,Ekwiti no kuri MOMO.

Akazu bacururizagamo gaze kanditweho Beka yacu, Ekwiti ajenti. Imbere hari aho bakorera amatelefone matoya, hirya hari ikigega kazitijwe na senyenge.

Inzu iri ho igishushanyo kimanitswe ku kibambasi kiriho ibyo bacuruza, hariho amakaruni, hakabaho ibitunguru, hakabaho inaji, hakabaho sorwatomu.

Ku mbaraza, ku rubaraza rw'inzu hariho umuntu ufite imashini iri kudoda imyenda. Iruhande rwe hari abantu babiri kandi iyo nzu iriho icyapa kigaragaza ko ikore ikora ibintu bijyanye no muri salo kandi imbere y'iyo nzu haparitse moto.

Isoko riri gucururizwamo imyenda, amapantaro, amakabutura, udushati two hejuru, ibiringiti, amashuka n'imisego.

Iyi ni inzu icururizwagamo ubucuruzi butandukanye, bacururizagamo imineke, bagacururizagamo amakara, bagacururizamo n'utundi tuntu abaturage baba hafi bakenera guhahaga kugira ngo babeho.

Iyi nzu ni inzu icururizwagamo ibintu bitandukanye hacurizwagamo ibyokurya bagacururizagamo ibyo kunywa rayike nk'ibyokurya urugero rw'ibyokurya: bacuruzaga inkoko ,bagacuruzaga ama inyama hagacuruzaga inzoga zitandukanye.

Iyi ni inzu iri ku muhanda bacururizagamo ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho byubaka amazu yo mu gihugu. kandi mu bikoresho biba biturutse hanze amarangi akorerwa mu Rwanda, Hari ibikoresho bikorerwa mu rwanda bicururizwamo hari n'ibikoresho bikorerwa hanze.

Iyi ni inzu iri hafi y'umuhanda bacururizagamo ibintu bitandukanye ,iriho kanali igurieho abonema bakareba televiziyo bakoresheje amasheni kugira ngo babone netiwaka.

Iyi ni inzu iri ku muhanda. Ikaba mu giti munsi y'avoka ikaba inyuma y'igipangu, ikaba isaga n'umuhondo. Bakaba bacururizagamo utuji bagacururizamo n'utundi tuntu.

Inzu icururizwagamo ibintu bitandukanye harimo utudobo twa omo, hakaba harimo imikoropesho n'akadobo babikagamo ubunyobwa n'akantu k'akameza karimo imyenge bashiragaho utundi tuntu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo icururizwamo utuntu tugiye dutandukanye, amabase ,imigati, amaji mbese ni inzu y'ubucuruzi ifasha abaturage batuye hafi ,nk'urujya n'uruza baza guhaha. Harimo amakayi za yawurute mbega harimo utwifashisho tw'abantu bagura abagiye guhaha bakadutwaramo ikintu bahashye amagi.

Inzu ya etaje igeretse gatatu, imbere hariho ibyapa bimwe na bimwe kimwe cyanditseho tekino, hasi hariho imodoka, hasi hariho abantu b'urujya n'uruza, barikujya bamwe bari kwambuka umuhanda bajya kunyura aho bagomba kunyura.

Ni inzu icururizwagamo ibintu bitandukanye , ni inzu icururizwagamo:imyenda , inkweto hejuru hakaba hariho n' umureko.

Inzu bacururizagamo mudaso, inzu bacururizagamo imashini ,bagacururizamo fotokopi zifotoraga impapuro ,bakoreragaho n'irembo bari gufotora abantu amafoto magufiya.

Inzu bacururizagamo ibiringiti byo kwiyorosa, bagacururizamo amashuka, bagacururizamo udutebe tw'abana, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku nzugi hariho ibishushanyo by'ibyo bacuruza.

Ibikoresho bakoreshaga bari gukora intebe zo mu rugo zo kwicaraho, hariho n'ibindi bikoresho nk'umukeka cyangwa umusambi.

Inzu bari gukanikiraho amagare atandukanye hariho agasanduku k'utuyejeri tubiri, hariho abagabo babiri, umwe yunamye, mu igare ari gukanika, undi arahagaze ari kureba.

Imodoka ibiri ziparitse zegeranye zose zisa numukara, hirya hariho inzu yanditseho ngo resitora bare, ikaba ari imodoka nziza.

Aha ni inzu nini cane ifite igipangu cy'amaferabeto，hejuru hariho ikirango kiyiranga cyanditsweho MPH URUGWIRO Ltd.

Inzu iparitse mu muryango wayo moto, icururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi, hariho harimo amarangi ari mu tudobo n'umuntu uhagaze imbere y'uwo muryango n'umucuruzi ucuruzaga wicaye wambaye isarubeti y'umuhondo.

Inzu iri ku muhanda imanitseho icapa ca Sikoro, hakaba hariho n'igipangu kiriho amarangi gagiye gatandukanye, harimo amarangi g'ubururu, ag'icatsi n'ag'umweru. Imbere y'igipangu hari umuntu wifashe mu mutwe usa nk'aho ari kugenda.

Abantu babiri bikoreye .umwe yikoreye indobo undi yikoreye igikarito, umwe ari kureba imbere, undi akareba inyuma.

Iyi ni nzu icururizwagamo: imboga ,inyanya ,amakara ,bodaboda kandi ibi byose imboga, inyanya ,amakara byifashishwa mu rugo bateka kugira ngo bakomeze ubuzima.

Abantu bari kugenda mu muhanda ari batatu, ku ruhande hariho icyapa cyanditsweho Fesibukeroji bacururizaho za Henikeni, hirya hariho n'inzu ya butike.

Amagare ya siporo aparitse ngaha atwarwa n'abantu bakora siporo cyanga abandi bantu biga gutwara amagare, cyangwa agafasha abaturage mu ngendo zitandukanye, kugira ngo bagere aho bagiye biboroheye.

Iyi ni inzu bajaga baracururizamo ibintu bitandukanye, bacururizagamo amabaro y'abana, ingofero, imitaka, amacupa n'udufuka twa gucengeni two guhahiramo. Bagacuruza n'ibikapu, bagacuruza n'ibikinisho by'abana.

Abantu benshi biteze ibitambaro, bambaye n'ibiteteyi n'amakoti hejuru ,gagiye gusa n'umweru bakaba bicaye.

Ibi nibitambaro bitandukanye bimanitse ku rubaraza rw'inzu barikugurisha, barikugurisha n'amatisi buribara ryaryo buritisi ifite ibara ryayo.

Isoko ry'ibiribwa harimo abantu barimo abantu bari kugura n'abari gucuruza, harimo amapuwavuro, hakabamo n'amasereri, hakabamo n'imbuto, hakabamo n'ibindi bintu by'ibiribwa.

Amafi atanu gari ku mufuniko agandi gari mu ibase， amafi gakiri mabisi bamaze kugoza.

Ubu ni ubucuruzi bacuruzaga imbabura ,imyuko, amabase , bacuruzaga n'utundi tuntu dutandukanye bifashishaga mu rugo bateka n'ibyo kurya.

Ubu ni ubunyobwa buri mu mufuka bari kudahisha ikirushe bakadahisha n'agakoroboyi , hariho umunzani barikuja barapimisha ubunyobwa barikugurisha cyangwa bazagurisha.

Akabutike karimo amavuta go kwisiga gatandukanye harimo makayika, hakaba harimo vazarine, hakaba harimo moviti, hakaba harimo n'agandi mavuta gagiye gatandukanye.

Iri ni isoko rya musanze ricururizwagamo :inyanya, karoti ,intoryi, imiteja ,ibitunguru ,ricurururizwagamo, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. n'isoko rishasha ryubatswe rya kariyeri ,kugira ngo abantu baje baraja guhahiramo ibintu bakeneye bigiye bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa harimo amatunda atandukanye, harimo watameloni, ibinyomoro, imyembe, amapome, imbere hari imitaka n'abantu n'isoko rinini rigari cyane, haruguru bacururizaho twa gaconco, imiceri, amaji, amasabune, ibikapu, n'utundi tuntu dutandukanye.

Akazu kari gucururizwagamo: imboga, ibihaza, urusenda ,ubunyobwa buri mu ndobo n'ibase irimo amasituruwaya.

Izindi nsenda ziri mu gisero bamaze gusarura barazijanaga ku isoko zikabaha amafaranga, abazihinze babonaga umusaruro utandukanye bitewe n'insenda wagiye uhezaga.

Isoko rya goyiko bacururizamo imyenda amapantaro, amakoti, amashuka, udupira two hejuru n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mbale ni kawunga ifash. Ikorerwa muri Uganda, iza mu Rwanda, ikaba ari ikiribwa kiribwa n'abantu benshi batandukanye. Ni umuceri uribwa n'abantu hafi ya bose muri rusange. Bibafasha kubona ibyo kurya.

Iri ni isoko ricururizwagamo: imyenda ,ri gacururizwagamo inkweto ,rigacururizwagamo ibindi bintu bitandukanye byo kwambara, hakaba ari isoko rigendwagamo abantu batandukanye ,bari guhaha ibintu bitandukanye.

Ibi ni ibikoreshwo bikoreshwaga mu rugo harimo: indiga, amasahani, ibikombe byifashishwaga mu gikoni mucikoni barimo gutegura ibyo kurya n'ibyo kunywa bikaba ingenzi cane mu cikoni.

Imbabura bazegeranije ubwo bari kuzicuruza kandi ni imbabura ine ;imbabura zicanwaho amakara ntago bacanishagaho inkwi.

Abantu bari gutonora amajeri ku ntara bakazitereka kudutebe hariho ibitoki hakabaho n'ibisero bazanyemo ago majeri.

Ubu ni ubucuruzi, bacuruza ibintu bitandukanye : amavuta, umuceri, za ti masara, mayoneze, ifarini. Bacuruza ibintu bikoreshwa mu rugo, mu gikoni, ku meza bari kurya, bukaba ubucuruzi bwifashishwaga mu guteza imbere umubiri.

Ubu ni ubucuruzi bacuruzaga :Inkweto, badaboda amabote, bacuruzaga kotegisi, bacuruzaga amavuta, n' inzu bacururizagamo agaconco utuntu tugiye dutandukanye abantu bahaha.

Udutoroshi turi mu gakarito, agakarito agateretse mu igikarito kinini badukoreye agafufuma k'umweru, burigatoroshi bagenda bashingamo, bashingamo, bashigamo kandi ni udutoroshi dufite amabara adatandukanye.

Isoko bari gucururizamo imbuto amarogi, amatunda y'amaranda, bagacururizamo ibikoresho birimo: amabase, amasafuriya, ibikombe, bagacururizamo umuceri, udufuka twabucegende turi hano kuruhande two guhahiramo.

Aga ni amatunda bateranirije hamwe bagita amatunda ga marikoca, geraraga inaha mu karere ka Musanze ,gacururizwaga ahantu hatandukanye kubera ko garagurwaga.

Isoko bacururizagamo imbuto harimo ibisima bitandukanye. Harimo abantu bari gucuruza harimo iminek, hakabamo avoka hakabamo ibinyomoro, harimo wotameroni harimo n'ibindi bintu byinshi.

Umuntu yikoreye igitoki ku rutugu, afashe n'ikindi gitoki, undi afashe igitoki mu ntoki hariho n'abandi bantu bari gucuruza amatunda mu mifuka.

Aha bari gucuruza imikeka zirimo mu mufuka. Bagacuruza amabase, bagacuruza imyenda, bagacuruza n'ibindi bintu bitandukanye. Babyubakiye agatanda ko ku birambikaho.

Aha ni mu isoko bacururizagamo kawunga, hakaba harimo n'amavuta, bafite mo n'isabune, bafite mo n'umuzani bajaga barapimisha ibiro by'abakiriya.

Aba ni ababyeyi bari gucuruza omo, bari gucuruza pampegisi z'abana kugira ngo babone ubuzima n'iterambere. Bari kuzicururiza ku muhanda.

Aha ni ahantu bacururizaga udukapu twifashishwa mu bakobwa no mu bagore, bagiye gutwaramo ibintu bitandukanye, hari aho bagiye gutemberera.

Inzu y'ubucuruzi iri gururizwa mo inkweto, iri gucururizwa mo n'ibindi bintu bitandukanye, imbere hari ho umugabo wicaye ku ntebe y'agataburete n'umugore uri kugenda utambitse hirya.

Mu isoko harimo abantu benshi bari gucuruza ibintu bitandukanye harimo amashu, harimo avoka, harimo n'ibindi bintu biri mu mifuka harimo abantu bajyiye batandukanye mu isoko ryegereye gare y'imodoka.

Ku muhanda hariho karoti ziri ziri mu tubase, hariho intoryi ziri mu kabendiya, hariho abantu bari kubicuruza, hirya hariho imifuka ziriho zirimo imiteja, hirya hariho utubendiya turimo intoryi.

Abakobwa babiri bahagaze imbere y'ibase irimo imbada, harimo uduti tubiri two gufatisha imbada, hirya hari indi base na yo itwikiriye irimo agati, ku ruhande hari umugore ufashe umwana witwikiriye umutaka.